Abantu umwe, babiri, batatu, bane ba mama babiri ni abagabo bambaye ingofero bose zo mu bwoko bubiri bugiye butandukanye z'ubururu n'imyeru bari mubi bihingwa by'ibigori bikiri bitoya hari ufite ibasi irimo ifumbire.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa binini bikura bifite amashami ariko nta mbuto zirazaho. Hakurya hari inyubako ihari ihubatse ariko igaragara igisenge cyo hejuru gusa. Harimo urumuri rurimo kurasamo rw'umweru.

Umuntu wambaye bote z'umukara, ipantaro n'umupira w'amaboko magufiya, ahetse imashini ivomerera ibihingwa, yambaye ga mu ntoki ze, arimo gusomaro imbuto yahinze ziri ahagana hasi nyinshi, hakurya harimo ibiti biteyemo.

Abantu benshi cyane hari umumama ufite ijage uteruye igitambaro mu mutwe abagabo harimo abambaye ingofero n'abatazambaye, mu murima hateyemo ibigori bike biteye hakurya hakaba hariho ishyamba rinini cyane.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bari mu bihingwa bagiye batera ku murongo, bose bahetse amapompo bagenda bifashisha batera umuti ku ibyo bihingwa. Hakurya hari ibiti binini cyane bihateye.

Umugabo wambaye bote, ipantaro n'umupira w'imbeho w'umutuku, afite imbere ye igiti arimo yashinze ahantu hariho ibyatsi byaboze arimo kugenda azunguza. Inyuma ye hari ishyamba rihari. Ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bukeya.

Inyubako igaragara igice cyo hasi gusa, iteyeho irange ry'umweru, ikaba ifunguye umuryango, hasi harimo amakaro, ububati burimo bucuruzwamo ibintu by'uducupa tugiye dutandukanye, nta rumuri rurimo.

Umurima uhinze, harimo ibihingwa bateye ku murongo, hakaba harimo amatiyo agenda azengurukamo, ashyiramo amazi agenda avomerera, harasasiye harimo ibyatsi, hakurya hari amazu ahubatse.

Umuntu ugaragara ibiganza gusa wambayemo gaze arimo kuyora ibikindi biri mu mufuka, usa ubururu kunyuramo ifumbire y'imvaruganda ayiterura mu kiganza cy'iwe, hakurya hariho irindi bara rihari, rijya gusa umweru.

Inyubako nini cyane yubatse irimo amakaro hasi imbere harimo akabati karimo uducupa, umwijima nta rumuri rurimo ntihabona hanze hariho umufuka uhari bya sima, indi irimo ibindi bintu.

Abantu benshi cyane bafite amasuka bose barimo guhinga bari ahagana hasi batengura umungoti, hejuru harimo abafite za macaku hakurya y'aho hariho ibiti binini biteye n'umusozi uhari

Mu nyubako mu imbere iteye irangi ry'umweru, harimo ubutajeri bukoze mu byuma, bugiye burimo hakaba harimo umufuka w'ubucupa bugiye butandukanye, hakaba ku ruhande hariho ameza arambitseho ibindi bintu.

Inyubako nini ifite imiryango igiye itandukanye, ariko umwe urafunguye, imbere yaho harambitseho amakarito n'ibindi bintu bisa icyatsi, birimo uruntu rw'urudodo rugiye ruhari rudoze. Imbere yaho hariho amagambo ahanditseho bagenda bamamaza.

Umufuka badoze mu ndodo hakaba harimo ibintu by'imyeru basutse hasi bimwe ibindi bigasigaramo imbere, hasi yaho harambitseho ibyatsi byinshi cyane byumye.

Ibasi irimo itaka risa umukara harimo ibihingwa bahumbitsemo biteyemo by'amoko abiri yagiye atandukanye, ku ruhande hakurya hari n'ibindi bimeze nkuko nguko.

Mu murima ahantu harimo abagabo babiri: harimo uwambaye ingofero, undi afite isuka arimo guhinga, hari uteruye ibishingwe abikura hasi abishyira ku mufuka yarambuye imbere ye; hahinzemo urutoki rushanguruye rudafite ibishangara.

Abantu umwe, babiri bahagaze bose bafite amasuka ariko batarimo guhinga, hakurya hari abandi bagaragara, umwe afite isorori indi iri hejuru y'isahane arimo gusukamo ibintu hasi mu murima.

Umwana w'umukobwa wambaye bote, ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umukara w'amaboko magufiya. Afite icyuma mu mugongo bifashisha bagenda bavomerera ibihingwa mu murima arimo kugenda abivomera. Hakurya ye hari ikiyaga gihari kirimo amazi.

Umugabo wambaye imyenda isa, akaba ahetse ipombo mu mugongo, arimo kuvomerera ibihingwa bye yahinze ahantu mu ishyamba, afite ingofero mu mutwe itukura imurinda kuba hari ikintu cyaturuka hejuru kikamwikubitaho. Hakurya ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Abantu benshi cyane harimo abambaye amasabeti n'ingofero bane biteze ibitambaro mu mutwe bari mu bihingwa mu gishanga barimo kugenda ba gusarura, hakurya ya ho hari igiti kinini kibateye ikirere kirimo gusaba ubururu.

Inyubako igaragara igice k'imbere gusa hariho ku gikuta hateyeho irangi risa, hasi hariho ibyuma biraharambuye bifite ibara ry'umukara harambitseho ububido n'ibikombe n'ibikarito.

Inyubako mo imbere iteyemo irangi, harimo ububati bugiye bwubatsemo, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, n'inyanya zo mu dushashi, ibiri mu macupa, hasi hariho intebe yo kwicaraho.

Abantu benshi cyane, abagabo bambaye imipira, harimo ufite ibase mu ntoki, barimo kugenda batera ibintu bagiye bahinga ahantu mu murima bacukuramo ibinogo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umumotari utwaye umwana w'umukobwa, bose bambaye kasike zibarinda kuba batakwagirika umutwe mu gihe bahuye n'impanuka, hakurya hari imodoka zihahagaze, imbere y'inyubako hari umuryango umwe ufunguye, indi irafunze.

Umurima munini cyane harimo umugabo wambaye ikote n'ipantaro n'itaburiya isa umuhondo, ahetse icyuma mu mugongo arimo kugenda avomerera ibihingwa by'amashu yateyemo, hagati harimo inzira arimo kugenda acamo.

Umumama umwe wambaye igitenge, umupira w'umukara, ufite imisatsi iboshye, arunamye, afite shitingi yarambuye hasi ashyiraho ibitoki yaciye byinshi cyane, hakurya ye hariho imbuga irimo ibyatsi bitoya bingana.

Mu murima hateyemo urunyanya rwakuze rukaba rurerure ariko rukaba rweze. Hariho izikiri mbisi, izeze neza zitukuye, n'izindi zirimo hagati. Hakurya hakaba harimo ibindi bihingwa byinshi cyane, urumuri rurimo kurasamo rw'umweru.

Umurima bakuyemo imyumbati irambitse hasi, ku ruhande hakaba hari undi uteye utarakura uhari, hakurya hari icyo giti cy'imbuto bakwifashisha batera, cyirambitse n'umuhoro.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye na sima igaragara igice cy'inyuma gusa, inyuma yaho hari ibihingwa bihahinze, harimo n'aho bitagiye biri by'amoko agiye atandukanye, harimo urumuri, haracyari ku manywa harimo kubona.

Umurima urimo igihingwa kimwe gihinze bikiri bitoya hariho ibibabi bingana, hakurya hariho ibiti bihashinze byumye bihari, n'ibindi bihateye bifitemo igicucucucu.

Umurima uringaniye, ungana, harimo igihingwa kimwe kingana, gitoshye, imbere y'aho harimo ibiti birimo, biteyemo, binini, biri ku murongo n'inzira icamo hagati utambika, ugenda hakurya.

Umurima uteyemo igihingwa kimwe gitoya kiringaniye gifite amababi matoya harimo ayagiye arimo agwamo yumye hakurya y'ho hari ishyamba rihiserimo gucamo insinga z'umuriro w'amashanyarazi

Imbuto ziri mu ruhumbikiro rwazo nyinshi cyane mu bishashi by'imikara harimo, itaka bikaba biteretse hasi ariko bikaba bitoshye harimo urumuri rurimo kurasamo, harabona neza cyane.

Umugabo ugaragara ikiganza afite ikimera cy'ikawa kikiri mu ruhumbikiro hasi hari izindi mbuto nyinshi cyane ziri mu bishashi by'imikara harimo itaka, hagati yazo harimo inzira igendamo utambika uzicamo.

Abamama n'abagabo bageze mu za bukuru harimo n'urubyiruko, bafite imbuto z'ingemwe zikiri mu bishashi byazo baziteruye, imbere yabo hariho igitebo kirimo izo mbuto n'ibase n'umufuka, bahagaze mu murima, inyuma hari ibiti bihateye.

Mu murima harimo igihingwa cy'ikawa, igiti kikiri kigufi ariko gifiteho imbuto nyinshi cyane, hakurya hariho ibindi bihahinze by'ibigori harimo ibiti biteyemo hagati.

Umurima munini uteyemo insina, harimo ifite igitoki n'umwanana, hakurya yaho hakaba hari ibyatsi biri ahagana hasi, ikirere kiriho kirimo gusa ubururu n'umweru.

Ibihingwa byo mu gishanga ahantu hanini cyane hangana. Bikaba bitangiye kwera hariho imbuto. Hakurya harimo ikirere kirimo gusa neza ubururu n'umweru bivangavanze.

Ibihingwa bingana, bihinze mu murima. Hakurya hariho ibiti bizengurutseho, harimo ibifite indabo z'imyeru, ikirere kirimo gusa umweru cyane.

Insina bakuye ku zindi, ibyana byazo bakaba baziciye ibitwe byo hejuru ari ingemwe bagiye kugenda batera, zirambitse hasi mu byatsi bihari, bikaba hariho urumuri rurimo kuzimurikaho.

Ibihingwa by'ibigori bifite ibara ry'icyatsi, bikiri bishyashya bifiteho n'imisatsi, bigaragara nk'ibyeze, birambitse hasi babiciye ari byinshi cyane, ahantu biri harasa umukara.

Mumuririma ahantu harimo igihingwa cya avoka kikiri gitoya hasi hakaba hariho ibyatsi bizengurutseho byumye bishasheho neza hakurya hakaba hariho ibindi byatsi bihateye byinshi.

Avoka zikiri ntoya, ziri mu ruhubikiro rwazo, nyinshi cyane, zikaba ziri mu bishashi by'imikara harimo itaka, hakurya harimo ibiti bihari, bihateye, zose zikaba ari ubwoko bumwe zihari.

Igihingwa k'ikawa kikiri gitoya, kitarazaha urukawa na rumwe, hakava hasi hashasheho utuntu tw'ibyatsi byinshi cyane byagiye byuma, harimo n'ibiti bigiye biteyemo hagati.

Umurima urimo igihingwa cy'ikawa zikiri mu buhumbikiro zitoshye nyinshi cyane, zikaba zisa neza, harimo urumuri rurimo kumurikamo ruturuka ku gice cyo hakurya no mu kirere.

Uruzitiro rwubakishije amatafari harimo sima mo hagati, ruzengurutsemo, imbere harimo ibihingwa, inyuma yaho hariho insina zihateye, ibiti n'ibindi by'ibisheke bihari.

Umurima urimo igihingwa cy'inyanya ziteye ku murongo, hakaba ubutaka busa umukara cyane, mo imbere harimo umuntu umwe urimo kugenda azitaho, hakurya y'aho hariho ibiti bihateye binini.

Umurima munini urimo ibisheke biteyemo, ariko harimo ibyumye byakubiswe n'izuba amababi yabyo akagenda ahunguka yumye, ikindi cyeze hasi, hakaba harimo kurasamo urumuri ruturutse hejuru.

Amatungo y'ingurube imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, zose zirimo kureba imbere ahantu bashyize ibyo kurya, zikaba zubabitsemo umutwe zirimo kubifata. Inyuma yaho hariho agafuka gashushanyijeho ko ari ibiryo byazo, ifite n'abana.

Inkwavu nyinshi ariko hakaba harimo rumwe runini ruzibyara izindi ni abana, mo hagati harimo ubwatsi zirimo kurya, zikaba zisasiye neza nta cyondo gihari, hakurya hari ibiti biharambitse byumye.

Ubucupa bw'amoko amwe asa, hagiye hariho milimetero mirongo itanu, inka ishushanyijeho, bivuga ko harimo imiti mo imbere azifasha kuba ayo matungo yafata zikamera neza.

Mu ishyamba hakurya hariho igiti kinini cyane giteyeho inzitiro zitambitse, hasi hariho ibyatsi bitoya bingana, harimo inkoko iryamyemo.

Umugabo wambaye bote n'ipantaro, n'umupira w'amaboko magufiya n'ingofero mu mutwe, hasi hateye ibiti, yashyizemo ikamba y'umugozi agenda azirikamo, akaba arimo kurega iri ku ruhande, hakurya ye hari ibyatsi bihari bihateye.

Umwana w'umukobwa wambaye ijipo irimo amabara menshi agiye atandukanye, umupira w'amaboko magufiya w'umukara, inkweto za kamambiri z'umutuku, afite umusatsi mukeya, arunamye arimo kuyora ibyatsi birimo hasi mu murima.

Abantu benshi cyane harimo abasore, abagabo n'abamama barimo gukora umuganda batunganya mu muhanda w'igitaka bagenda basibura amarigori ku mpande agenda acamo amazi bafite ibikoresho mu ntoki.

Abagabo umwe, babiri harimo uwambaye bote n'ipantaro n'umupira w'amaboko magufi n'ingofero undi ntayo afite bose bafite isuka barimo guhinga bakurura itaka imbere yabo harambitse indobo nyuma yabo hahinzemo ibigori n'insina.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura ifite amabara harimo n'ubuntu bw'ubudomo, isengeri isa umukara n'umweru, mu mpande yambaye ingofero, afite isuka arimo kugenda akura ibyatsi abiharura, hakurya ye hariho insina zihateye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru w'amaboko magufiya, ufite umusatsi mukeya. Ari mu bihingwa byibishyimbo byumye arimo kugenda asarura ku biti byabyo. Ikirere kiri hakurya kirasa umweru n'ubururu.

Umugabo wambaye bote z'umukara, ipantaro n'itaburiya, hejuru afite umutwe hariho ingofero, afite isuka arimo guhinga mu murima, inyuma ye hahinze igiti cy'umwumbati n'imbere ye hari insina ihari.

Mu murima harimo abamama batatu n'umugabo umwe, barimo guhinga bafite amasuka, muri uyu murima hateyemo uduhingwa dutoya turimo kumera bagenda babagarira, inyuma yaho hari undi umwe hateyemo n'insina z'ibitoki.

Abantu umwe babiri b'abagabo bose bambaye imyenda y' imbeho, imipira irimo amabara, umwe yambaye ingofero imbere ye hari imifuka irimo ibirayi ya kirojana y'imyeru ifite n'imirongo ihagaze mu mpande. Hakurya hari inzu ifunze urugi.

Umumama wambaye umupira w'amaboko magufiya, ufite umusatsi ushokoje, arimo guseka, ari mu bihingwa by'ibigori byeze, gihetse bibiri, afasheho agiye guca, hakurya ye hari n'ibindi byinshi bihari.

Umwana w'umuhungu wambaye ipantaro, umupira wamaboko magufiya, usa n'umutuku, afite isuka arimo guhinga, hakurya ye hariho insina ziriyo, ariko zidafite ibitoki n'ibyatsi hasi zisasiye.

Abantu benshi harimo abagabo n'umukobwa bafite amasuka barimo guhinga mu murima barandura ibyatsi bigiye birimo, imbere ya ho bateyemo imyumbati hirya hari ibiti binini n'insina zirimo.

Umugabo wambaye bote z'umukara ipantaro n'umupira w'amaboko magufi yambaye ingofero, inyuma afite ipompo ahetse ifite akantu arimo kugenda avomerera ibihingwa biteyemo, hakurya ye hariho insina zihateye zihari.

Abantu benshi cyane harimo bambaye bote, n'ipantaro, n'itaburiya, ingofero bakaba barimo guhinga ibihingwa hasi babisasiye harimo ibyatsi byumye bateyeho imigozi batera ku murongo ugiye uringaniye.

Abantu harimo abapapa, n'abamama, bo harimo abambaye ingofero n'abatazambaye, bari mu murima bafite amasuka barimo guhinga, hakurya yaho hariyo ibiti binini cyane, n'ibihingwa bigiye birimo.

Mu murima harimo umugabo wambaye bote n'ipantaro n'umupira w'mamaboko magufi w'umutuku ufite isuka urimo guhinga, acukuramo ibinogo hakaba hateyemo imyumbati n'amateke hakurya ye hari igishanga gihari.

Inyubako iri hakurya, yubakishije amatafari ahiye na sima, ikaba ifunguye urugi rureba imbere, hariho abama barimo gukubura, bafite amabase imbere y'aho barunda ibintu by'imyaka barimo kugenda bashyira hamwe.

Imifuka minini cyane ya kiro ijana ipakiyemo ibintu, harimo iyuzuye indi ni ibice, hasi aho iteretse hariho shitingi, isa hasi ubururu, hejuru umweru, hakurya hari ibindi bintu banitse, abantu bahari, inyubako yubakisha amatafari yahi...

Abantu umwe babiri b'abamama bunamye barimo gukora hasi. Bari mu murima uteyemo insina ariko nta bitoki zifite harimo n'ibiti biri ahagana hakurya birimo.

Abantu benshi cyane harimo abamama bahetse abana n'undi mwana umwe uri hasi bafite amasuka barimo guharura mu muhanda, hakurya yawo hari inzu ihari ariko urugi rwayo rukaba rufunze n'insina zihari ziteyemo ibigori.

Umuma wunamye uteze igitambaro mu mutwe, uri mu murima uhinzemo amateke, hasi harimo ibiti byumye, hakurya insina zihari zitarazaho ibitoki zikiri ntoya, ibiti biriho bikiri bitoshye bihari.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, barimo umwe wunamye urimo gukura ikintu mu butaka, abandi barimo kuza bamusanga, hakurya yaho hari ishyamba rihari harimo inyubako zubatsemo zishakaje amabati y'imyeru.

Umurima barimo guhingamo abagabo babiri bambaye hejuru ibintu bisa umweru, undi afite ingofero, bose bafite amasuka. Imbere yaho hariho ibinogo bibiri bihacukuye, umwumbati uhahinze, hakurya hari igishanga kirimo ibindi bihingwa n'insina ziteye ku musozi.

Umurima urimo igihingwa kimwe, hakaba hateyemo n'insina zirimo, hakurya hakaba hari urugo rugaragara igice gitoya, ikirere kirimo gusa umweru kiriho cyiganjemo, hari n'ibicu byamanutse ahagana hasi.

Imifuka igiye itandukanye, ifunguye hejuru bagiye bazinga bamanura, harimo ibintu bigiye bitandukanye, karoti, ibishyimbo n'amasaka, hakurya hakaba hariho ibindi bintu bigenda bitukura.

Inyubako ishakajeho amabati, hariho ibiti by'imbaho bagiye bafatisha icyo gisenge, imbere harimo imifuka ipakiyemo ibintu ya kilo jana n'indi mitoya itanasa ifite amabara agiye atandukanye.

Ibihingwa bimwe bingana byose biteye ariko bikaba bisa umuhondo izuba ryarabirasheho, bigiye kugenda byuma, hakurya yaho harimo umuntu urimo, ibiti bihateye, ikirere kirimo gusa umweru.

Abantu batatu harimo uwunamye wambaye ingofero, uhagaze ku bintu bikoze mu mbaho, arimo gutonda imifuka ku murongo igiye itandukanye, hakurya hariho ahantu handitseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Mu isoko rinini cyane ritubakiye, harimo ibitebo byinshi cyane, harimo inyanya, hakurya hari abagabo bambaye imyenda y'imyeru b'abisilamu biteze ibitambaro b'abamama.

Ahantu handitse ngo: "Ku bigega." Hari umuhanda wa kaburimbo abantu barimo kugendamo, hakurya yaho hariho ibiti binini bihateye, munsi harimo ibyatsi byameze ku butaka, hari umumama urimo gutambika.

Umurima urimo abantu benshi cyane bafite amasuka barimo guhinga, hateyemo ibigori bikiri bitoya bingana, hakurya yaho hariho ikiyaga gifitemo amazi menshi cyane, ku musozi hakurya hariho ishyamba.

Ikintu gikoze mu mbaho kizengurutse mu imbere bashyizemo voka ntoya z'ingana zisa icyatsi, harimo izifite inkondo izindi nta nkondo zirimo harimo urumuri rurimo kumurikamo harabona neza.

Mu nyubako mo imbere hariho imifuka y'imyeru minini cyane ipakiyemo ibintu, ikaba iziritse ku mitwe ipanze igerekeranye. Hakurya hari abantu bahari harimo ufite inkoni, harimo urumuri rurimo guturuka hanze rw'umweru.

Ububase, kamwe bubiri, butatu, bune, butanu, butandatu, bwose busa icyatsi. Harimo voka zingana zose z'intoya zitari nini cyane, burambitse hasi ahantu hasa ibara ry'umweru.

Inyubako yubatseho amabati hasi, hejuru hakazamuka ibyuma, hagasakazaho hejuru n'ubundi yayo, nk'ayo ngayo ayo mabati, mo imbere harimo ibigori bisharitsemo byinshi cyane byumye, imbere hari igare ririho ryegetseho.

Umusaza ugeze mu zabukuru ufite umusatsi w'imvi, wambaye ipantaro n'ishati y'amako maremare, imbere yari afite ibigori byumye yagerekeranyije, akaba abifashe yegamye ku nyubako iriho yateyeho karabasasa idirishya riri hejuru rikaba rifunze.

Mu gishanga harimo ibihingwa by'ibigori n'ibindi bigiye bitandukanye, hakuno harimo urugo rusakaje amabati, hateyeho insina munsi y'urugo, hakurya ku musozi hariho ibiti bihari, ikirere kirimo gusa umweru.

Inyubako nini cyane iteyeho amarange, hejuru hariho ibintu by'ibyuma bigiye bifitemo utwenge, hasi hariho imifuka igiye ihari y'amoko abiri agiye atandukanye iy'imyeru n'iy'imihondo, irambitse ahantu hasi hasa ubururu.

Ibyatsi bihari byinshi cyane igice kimwe ikindi gice cyo hakurya kirimo ibiti binini cyane by'ishyamba ariko hakaba nta rumuri rurimo harijimye, hejuru hari ikirere kirimo gusa umweru kirimo kurasamo.

Umuhanda w'igitaka uri imbere, hirya hari inzu, ariko hagaragara idirishya rifunze, imbere yaho hariho ibiti binini bihateye bicamo insinga z'umuriro w'amashanyarazi hejuru, inyuma yaho hari insina zihari, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bwiganje.

Mu ishyamba ririmo ibiti bikura biri ari birebire bizamuka hejuru bikaba ifite amashami makeya. Mu imbere harimo urumuri rurimo kurasa mu ikirere kiriho kiri gusa umweru gifite ibicu byinshi cyane.

Mu ishyamba rinini cyane harimo ibiti birebire bifiteho amashami, harimo icyakuze cyikigonda kikagenda kikagwa mu kindi. Hakurya yaho harimo kugaragaramo urumuri mu iryo shyamba, ikirere kirimo gusa umweru.

Mu ishyamba rinini cyane harimo ibiti byakuze ku gice cya ruguru n'ibindi bitoya bitarakura biri mu rugero, imbere harimo umuhanda utambikamo hirya ariko nta kintu na kimwe kirimo, harimo ibikori byagiye biva ku biti bihunguka bigwaho.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari yahiye, hariho amadirishya, harimo ibyuma, igisenge cy'amabati, inyuma yaho hariho ibiti binini cyane bihari, hasi hakaba harimo ibyatsi bitoya bingana.

Umurima urambitsemo ibishami binini cyane. Ibi byatsi byagiye bizamukamo bifite indabo z'umuhondo, harimo igiti kinini cyane kigaragara igice cyo hasi gusa. Harimo urumuri.

Inyubako iri hakurya yubakishije amatafari y'ibyondo isakajeho amabati, igisenge kikaba gifashwe n'ibiti biriho byumye. Inyuma yaho hariho igiti kihateye gifite ubushami butoya.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo insina n'ibindi biti bisanzwe, harimo igiti cy'inurusu cyakuze kikaba kirekire, hakurya ku musozi hakaba hariho n'ibindi bihari, ikirere kirimo gusa umweru.

Mu ishyamba harimo ibiti binini cyane byakuze n'ibitoya, hasi hakaba harimo ibyatsi bihari bidatoshye bigiye kuma harimo kurasamo urumuri rw'izuba, ikirere kiri hejuru kirimo gusa umweru.

Umurima urimo insina ziteye ku murongo zishanguruye nta byatsi biriho, mo imbere hariho ibindi bihateye biri ahagana hasi. Hasi harimo amakoma yazo bagiye banaga hasi bakuraho. Ikirere kirimo gusa umweru.

Umurima urimo ibihingwa by'indabo, hasi urubingo rw'amatungo, n'ibiti bihari byose bitoshye bifite ibara ryiza, hakurya hariyo ikirere kirimo gusamo umweru n'ubururu bivanze.

Mu ishyamba rinini cyane harimo ibiti bikuze n'ibitoya, hagana hasi harimo ibyatsi byagiye bigwamo by'amashami, imbere yaho hari ibyatsi bihari bihateye ariko bimeze nk'ibigiye kuma, mu imbere harimo kugaragaramo urumuri ku gice cy'inyuma.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye hariho na sima, mo imbere harimo nsina ndende cyane zisumba urwo rugo, hejuru ikirere kirimo gusa ubururu. Inyuma yaho hahinzemo ipapayi n'ibindi byatsi bigufiya birimo.

Mu ishyamba harimo ibiti n'ibyatsi byagiye bimera hasi, iteke rimwe ririmo, hakaba harimo kurasamo urumuri rurimo guturuka mu kirere rw'umweru rwonyine, ikindi gice cyo hakuno hakaba ho hatabona kubera ibyo ibyatsi bihari.

Ibase y'ubururu irimo imiteja yo guteka, imbere yaho harambuyeho umufuka w'umweru, hariho karoti bafunze baciyeho ibyatsi, zikaba zinaronze zifite isuku.

Ibihingwa biri mu buhumbikiro mu mashashi yabyo bya avoka hahumbitse hakurya hakaba hari ibindi bihahinze harimo umugabo ugaragara igice cyo hagati gusa birimo, ikirere kirimo gusa umweru mwinshi cyane wiganje.

Inzu yubatse ifite fondation hasi y'amabuye iteye karabasasu, urugi rwo ku gipangu runini cyane ariko rufunze, imbere yaho hariho umurima uteyemo ibyatsi bya pasikarume n'indabo zirimo zigiye zifite ubwoko bugiye butandukanye.

Igihingwa cy'avoka ntoya y'imbangurizanyo ya kizungu, ifiteho voka ntoya, ifite amashami gatoya ku buryo n'umwana yayica ahagaze hasi, hakurya hari ibindi biti bihateye bihari.

Mu isoko harimo ikintu cyubatse mu mbaho, harimo karoti zironze ziciyeho amababi yo hejuru, inyuma yaho hari ibasi y'umutuku irimo n'ibindi, harimwo imbuto z'amoko agiye atandukanye n'imifuka.

Ibasi iririmo imbuto zitekwa, zikaba ziteretse ahantu harimo ibitunguru by'ibiguri n'ibibabi, akaba ku mpande hariho imboga z'idodo zo guteka, nta muntu

Imbuto ziribwa harimo inyanya, rumwe rwasadutse, hariho n'ibindi bateka bisa icyatsi, birambitse ku kintu k'igikoresho gikoze mu mbaho ariko aho hantu hakaba nta rumuri ruhari ku gice k'inyuma, imbere harimo kurasamo urumuri.

Umugabo umwe wambaye hejuru umwenda usa umutuku, ufite umusatsi gakeya, akaba uzamuye ukuboko arimo gukora hejuru mu gihingwa bihari bifite amashami n'ibibabi binini cyane.

Mu murima harimo ibihingwa bikura biri hasi bizana amashami menshi cyane harimo igiti giteyemo hakurya hariho uruzitiro rwubakishije ibyuma harimo inkuta mu hagati z'inkingi mo imbere harimo amabuye.

Mu isoko harimo ibintu byubatse mu mbaho bafunga bakaba banafungura, hejuru ya ho barambuyeho shitingi y'ubururu baterekaho inkoko hariho imineke yo kurya ihiye, ibindi ibindi by'inyungu birimo umuntu uhagaze.

Mu isoko mo mbere harimo abantu benshi cyane, hari uwambaye ingofero afite imisatsi iguye mu mugongo yagiye abohesha, imbere yaho hariho ibitunguru birambitseho binini cyane, harimo umunzani mo hagati upima ibiro.

Umumama ugaragara igice cyo hasi gusa cy'ikirenge, yambaye inkweto zabo zigaragaza amano y'imbere, imbere ye afite ibase irimo ishashi harimo ibinyomoro n'indi irimo ibindi ku ruhande imbere hariho.

Igihingwa by'ibinyomoro bikiri mu ruhumbikiro, hasi hakaba harimo ibishashi by'imikara, imbere yaho hari ibindi bakuyemo izo mbuto, mo imbere harimo ibindi biti bateyemo ubundi bwoko butandukanye.

Abantu benshi cyane harimo abakecuru, abagabo, b'abakobwa bafite ibitambaro mu mutwe, imbereho hari akarima k'igikoni bubatse, kazengurutsweho imifuka bateramo n'imbuto mo imbere, hakurya yaho hari ibyatsi bihari.

Inzu ifiteho igisenge kiriho amabati atukura, imbere hakaba hateyemo igiti. Iyuma hariho urugo rwubakishije amatafari ahiye harimo na sima, indabo zakuze zikagenda zikubiraho hejuru. Inyuma yaho hahinzeho indabo nyinshi cyane.

Inyubako iri hakurya yubakije amatafari ahiye ndende cyane ku ruhande hariho rw'imbere umukandara w'umweru uzengurutse urugo ruriho rugaragara agace gatoya, inyuma yaho harimo indabo zihateye n'indi pasikarume ntoya ngufiya zireshya.

Ibintu bikoze mu mbaho bigiye bitandukanye bizengurutse harimo ibicuruzwa, harimo ahari beterave bifashisha barya abantu, hakaba indimu n'ibinyomoro birimo, hari urumuri rurimo guturuka hanze.

Inyubako nini cyane yubatse, hakaba hari urugo ruzengurutse rwubakishije amatafari ahiye n'ibyuma, mo hagati mu marembo ariho akaba afunze, imbere hakaba hateyeho ibyatsi n'indabo byiza cyane.

Mu ishyamba harimo ibiti hakurya byinshi n'ibyatsi hasi bimezemo bitoshye, imbere yaho hariho umurima uhinze, ariko harimo ibihingwa basaruye biri mu mufuka, harimo urusenda n'undi mufuka urambitse hasi utarimo ikintu.

Ahantu hubakijije amabuye, kuri rigore itwara amazi arimo sima, hejuru hariho indabo zihateye zisa, mu imbere ibyatsi bya pasiparumu n'ibiti birimo bidafite amababi.

Igihingwa cya kizungu kigufiya kiriho imbuto ku buryo umuntu yagisarura ahagaze hasi, mu murima harimo izindi mbuto ntoya zihateye, hakaba hashashemo ibyatsi byumye, hakurya ku musozi hateyeho ishyamba.

Inyubako yubakishijeho amatafari ateye irangi n'igisenge, amabati asa umutuku, imbere yaho hariyo ibiti n'indabo nziza, ikirere kiri gusa umweru, n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi zirimo gucaho.

Ikintu gikoze mu mbaho, mo imbere harimo shitingi y'ubururu irambuyeho harimo imyembe, inkoko iriho ibinyomoro n'ikarito iri hakurya yanditseho amagambo mu ibara ritukura.

Umuhanda wubakishijemo hasi amatafari ashashemo ku mpande, bagenda bubakaho amabuye na sima hejuru, hakurya y'aho hariho ibiti bihateye, indabo zizengurutseho, mo imbere harimo ibyatsi bya pasikarumo bingana.

Ibiribwa by'amoko agiye atandukanya ibitunguru by'ibijumba binini cyane n'ibindi by'imyungu hakaba hariho ibasi isa ubururu irimo imiteja bagenda bateka hakurya hari umufuka uhari.

Inyubako iri hakurya isakajeho amabati, inyuma yaho hariho urugo ruhubatse, ruteye irangi hejuru hariho ibyuma bizengurutseho, hakurya hariho ibiti bihatiye byinshi cyane, umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu urimo kugendamo n'umutaka, umuntu ucuruza amayinite.

Mu murima hateyemo ibyatsi bifite amashami menshi cyane harimo ibyezeho ibintu by'umutuku, hano hasi harimo itaka ririmo gusa umukara cyane, urumuri rurimo kurasamo.

Umurima bahinze bagenda bakatamo ibipande bigiye bitandukanye byinshi, harimo ibihingwa by'amoko agiye atandukanye, karoti nyinshi cyane zimeze nkaho zikuze, hakurya hariyo umusozi uteyeho ibyatsi.

Inyubako iri hakurya yubakishije amatafari ariho na sima hasi fondasiyo igaragara y'amabuye, akaba ari ebyiri zicomekeranyije harimo hagati yaho zitandukaniye mbere yaho hari ibyatsi bihari bingana hateyemo ururabo.

Umufuka w'umweru uzinze hejuru ufunguye mu imbere harimo insinda z'amoko menshi agiye atandukanye izitukura, iz'umuhondo, izifitemo icyatsi hariho n'uduti hejuru ariho bakizica bazipakiye.

Ibase ishaje yamenetse ku mpande, imbere harimo karote nyinshi cyane zironze, ariko ku mitwe yazo nta bibabi biriho, babiciyeho. Hasi hariho amashu agiye ahari, n'ibitunguru ahagana ku mpande.

Igitebo kiboshye neza mo imbere harimo indimu ntoya cyane izissa umukara, izahiye z'umuhondo n'izindi z'icyatsi ariko ntabwo cyuzuye, imbere yaho hariho agatebe gahari, hariho umuntu wicayeho wambaye igitenge ari cyo kigaragara gusa.

Mu isoko harimo ikarito irimo imbuto z'amatunda, n'imifuka irimo igiye ipakiyemo n'izindi nanasi, hariho umunzani upima ibiro ariko hatariho ikintu.

Umuririma hahinnzemo ibitunguru bya'amababi byakuze, hakurya hakaba hariho ikiraro cyubakije ibiti bigiye bizengurutse. Urumuri rw'izuba rurimo kurasamo hakurya.

Mu nyubako mo imbere harimo imbuto z'avoka, inyanya zihari nyinshi cyane n'izindi zifunze mu mifungo, zikaba zirambitse ahantu ku mufuka ahagana hejuru. Urugi rusa ubururu rurafunguye.

Ibase ishaje, isa umuhondo, yamenetse, ku mpande hariho n'ahadoze, bahadodesheje, mo imbere harimo ibihingwa basaruye bashyiramo, ikaba irambitse hasi, inyuma hariho ibyuma bihashinze.

Mu murima harimo ibihingwa bigiye bitandukanye bikaba bibagaye nta byatsi by'ibikonda birimo, hari uruhande rurimo ibitunguru by'ibibabi hirya hakaba karoti zihateye ziri ku murongo.

Ururabo rufiteho indabo z'idoma ziteye, imbere yaho nta bindi byatsi bihari. Hakurya hari pasiparume zingana, ariko zishweho n'izuba, nta mvura iheruka kugwa. Ku ruhande rwo hepfo hariho urukuta ruhubatse.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye hasi, amabuye ya fondasiyo maremare, hakaba hari indabo zihinze, mu imbere harimo igiti kizengurutseho, hakurya ku gikuta hariho igitambaro cy'umweru kimanitseho.

Umuntu wicaye wafashe umufuka hasi wa kake awurambura ashyiraho karoti zironze ziriho, akaba yambaye bodaboda z'umuhondo hasi hariho ibibabi byagiye bizivaho agenda azicaho biharambitse.

Abana: umwe, babiri, harimo uwambaye insengero y'umweru n'ipantaro, afite injerekani ebyiri z'ibibundi z'umuhondo, undi arimo kuvoma mu mugezi, hakurya hari ibihingwa bihari byumye, amazu ahubatse, harimo n'ibiti.

Umuntu umwe, babiri, batatu, bose bari mu bihingwa, harimo ufite ikintu cy'ipompo arimo gufata avomerera, undi afite ikayi mu ntoki arimo kwandika, inyuma yaho hahinze ibigori n'insina.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'amaboko maremare, ingofero mu mutwe, ahetse imashini mu mugongo, afite ikintu giturukaho afashe arimo kugenda avomerera ibihingwa bye bihateye, hakurya hakaba hariho ishyamba rihari.

Umumama wambaye umwenda w'ikanzu, ukozemo ikoboyi, ari mu bihingwa bye, afite umugozi arimo kugenda azengurutsamo, uzana amazi avomerera ibyo bihingwa by'idodo, hakaba hasasiyemo hasi ibintu byumye, harimo n'ibiti biteyemo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'amaboko magufiya w'umutuku, ingofero mu mutwe y'umweru, afite rozwari arimo kuvomerera ibigori bihari bihateye, harimo n'ibiti bigiye birimo, hakaba hakurya hari ikirere kirimo gusa ubururu.

Mu murima hasi mu gishanga hateyemo igihingwa kimwe hakaba hagihakasemo imirima igiye itandukanye harimo imashini zirimo koherezamo amazi mo hagati, hakurya y'aho ku musozi hateyeho ishyamba hatuyeho n'abantu.

Mu gishanga ahagana hasi harimo umugezi, ufite amazi asa nabi yanduye, hakurya no hakuno hateyeho ibiti bigiye bihari n'ibyatsi, hakurya ku musozi hari inzu nyinshi cyane zihubatse n'insina.

Mu murima ahantu hateye ibihingwa bikiri bitoya harimo n'imyumbati ariko hariho inzira ku ruhande izamuka, ruguru hari ipironi ndende cyane yigonze itwaye insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bukeya.

Inzu zubatse zose zifite amabati atukura, inyuma yaho hariho urugo ruteyeho irange ry'umweru, mo imbere harimo ibyatsi bihari bitoya n'ibiti binini cyane, hakurya ku musozi hahinze ibihingwa.

Umurima uteyemo igihingwa kimwe cy'ingana cy'icyayi, mo hagati hagiye harimo inzira, bagenda bacamo babyitaho, hakurya ku musozi hari ahandi bitarimo basaruye, hejuru hakaba hariho ishyamba rinini cyane, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Umusozi uri hakurya muremure cyane harimo inyubako zigiye zubatsemo kuko zikajeho amabati, mo imbere harimo amaterasi agiye ahaciyeho ku musozi ibiti bihateye bihari.

Umurima uhinzemo ibihingwa harimo imyumbati, hakurya hari igishanga kigiye gikasemo imigenda igiye itandukanye, hari insinga z'umuriro w'amashanyarazi zirimo gucamo hejuru, hakurya ku musozi hariho ishyamba rihateye n'ingo zubatse.

Ahantu haringaniye bagiye bakatamo ibice bigiye bitandukanye, harimo ibihingwa by'amoko agiye atandukanye, ibyakuze, ibyo bagitera ako kanya, ibiti bigiye bizengurutsemo mu mpande, n'urumuri rurimo kurasamo.

Inyubako ziri hakurya zisa, ziteyeho amarangi asa, amabati y'imituku asakayeho, abana bari imbere bambaye inifomo ya cotton barimo gukina mu kibuga n'amazamu ari ahagana haruguru, imbere yaho hariho ibyatsi bitoya bingana.

Mu gishanga ahantu hagana, hateyemo ibihingwa bimwe, hagati harimo ahantu harimo ikizenga cy'amazi, hakurya yaho hariho imisozi iteyeho amashyamba menshi cyane, ikirere kirimo gusamo umweru n'ubururu.

Umwana w'umukobwa wambaye inkweto zifunguye, ipantaro, isengeri, umupira akaba yawiziritse mu nda, afite terefone arimo kuvugiraho, imbere ye hariho umurima uteyeho, igihingwa hasi amazi azengurutsemo.

Inyubako yubatse ifiteho igisengesho cy'amabati ateye irangi ry'umutuku zikaba hateyeho umucanga urugo ruzengurutseho inyuma mu mbuga hariyo umuntu urimo kugenda wambaye umupira utukura hakurya kumusozi hariho ishyamba.

Mu murima harimo igihingwa kimwe kikiri gitoya gihinze neza, hagiye bitandukanye bidafatanye. Harimo mo imbere baragiye barahasasira harimo ibyatsi byumye, nta kigunda kirimo hakurya ku musozi hahinzeho ibiti.

Imirima yagenewemo ubuhinzi iteyemo igihingwa kimwe cy'icyayi mo imbere harimo ibindi biti bigiye bivangavanzemo hakurya hakaba hari ishyamba rihari, ikirere kirimo gusa ubururu hivanjemo umweru mwinshi.

Inzu nyinshi cyane zisakajeho amabati hejuru ariko ashaje, hasi hariho amabuye agiye azengurutse ku nyubako, hariho imboga ku mpande hariho ibyatsi bihahinze, hakurya hariho umusozi munini cyane uciyemo amaterasi.

Inyubako iri hakurya yubakishije ibiti isakaje amabati, hakaba hanitseho imyenda itatu, ahagana hasi hariho umuntu uhari, inkoko y'isake, n'ibiti bihateye.

Ingurube iryamye hasi iyo matwi atwikiriye ku maso ikaba iri mu kiraro cyubakishije ibiti, mu imbere harimo ibyatsi birambuyemo bagenda bayisasira ikaba nta byondo byayijyaho.

Ikiraro cyubakishije amatafari y'ibitaka, hejuru hakaba hariho amategura, igisenge mo imbere bazamuyemo ibiti cyubakishije amabati, harimo inka iri mu kiraro hasi isasiyemo, imbere yaho hariho ikintu bubatse ifatiramo ibyatsi.

Umugabo ugaragara igice cyo hasi gusa wambaye bodaboda z'umuhondo, ipantaro yazamuye akayihina, imbere ye hariho inka ebyiri ziri ahantu yazitiyeho ibiti hari ibyatsi, hasi yazo ni mu ishyamba.

Abantu benshi harimo abana, umumama, n'umupapa wambayemo imyenda y'inifomu ya kake. Ihene zibari imbere zifite ibiziriko. Inyuma yaho hariho inzu yubatse amadirishya, inzugi ariko bifunze.

Ikiraro cyubakishije ibiti, mo imbere hakaba harimo ibyatsi banazemo harimo itungo ry'ingurube, ryabanguye amatwi. Hakaba harimo urumuri ruhagije irimo kureba, hakurya hari ibyatsi bihari.

Ibiraro by'inka nyinshi zigiye zirimo harimo iyambaye iherena ku gutwi, imbere yaho ku kiraro ku biti bihari haziritseho ihene ebyiri hari ubwatsi zariye hagasigara ibiti gusa.

Umurima hasi hariho ibyatsi byakuze birandaranda mo hasi, inkoko eshatu zirimo izibikandagiye, iz'imyeru ebyiri n'indi imwe, hakurya hari ibiti by'imihembezo bihegetse, n'imiyenzi iteye ihari, n'insina.

Abantu benshi cyane bicaye abandi basutamye imbere yaho hariho ingurube, buri muntu akaba afite ingurube agenda ayikurura ukuguru, umukobwa uri imbere arimo kugenda abareba inyuma yabo hari imodoka ihahagaze.

Ikiraro cyubatse kirimo ingurube nyinshi cyane ariko zifite amabara adasa avangavanze zifite andi atavangavanze zirimo kurya ibyatsi zirasasiye, mo imbere harimo ibijerekani baciye bashyiramo ibiryo byazo.

Umugabo uragiye ihene imbere y'ingo ebyiri, ikaba irimo kurisha afashe ikiziriko. Inyuma ye harimo insina ziteyemo ibihingwa hasi n'izindi nzu zifite amabati y'imituku. Hakurya ku musozi hateyeho ibiti.

Ingurube: imwe, ebyiri, eshatu, enye, zigaragara ibice byo hejuru gusa, harimo imwe izamuye irimo kurya, indi ikaba iryamye, hasi zose ntabwo zisa, zifite amabara agiye atandukanye, urumuri rurimo kurasamo harabona.

Inka ifite iherena ku gutwi risa umuhondo, iziritse ikiziriko mu ijosi, mu mazuru yaho hacitsemo igisebe harimo kuvamo amaraso, ikaba ihagaze hasi hariho ibyatsi, inyuma yaho hariho igikuta cyubakishije amatafari.

Ikiraro cyubakishije imbaho, harimo ingurube iryamyemo, imbere hariho ikijerekani baciye, kirimo ibiryo byacyo, bikaba cyegetsemo umunwa wacyo.

Ingurube isa umweru n'umukara, iryamye, ifite amabere maremare, yonsaho ibyana byayo, inyuma yaho hariho ibiti bizengurutse by'kiraro yubatse.

Abakobwa n'abamama barimo bahagaze abandi bicaye bafite amatungo y'inkwavu mu ntoki zabo buri muntu, inyuma yaho hariho uruzitiro rw'ibyuma n'imbere harimo inyubako bahagaze mu muhanda w'igitaka.

Umumama wambaye ingofero mu mutwe, imbere ye hari umwana ufite agakoni wicaye hasi, afite ihene arimo kuzirika mu ijosi, ifite abana babiri, inyuma ye hariho inzu ikinguye idirishya.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro, bodaboda zisa icyatsi. Imbere ye hakaba hari akadomoro karyamye hasi, ingurube afashe mu nda irimo kurya ku biti biri hakurya.

Inka iziritse ku giti kiri hakurya ikaba irimo kurya ibyatsi biri hasi, inyuma yaho hari urugo ruhubatse rwubakijijeho ibiti n'ibyondo, hakurya hari ibiti binini cyane bihari n'insina.

Mu kibuti mo imbere harimo ingurube nini ifite amabara y'umukara n'umweru hari urudomoro rurimo ibyo kurya byayo, ikaba yashyizemo umunwa irimo kurya. Icyo kiguti cyubakijije imbaho.

Abantu umwe, babiri, batatu; barimo umuma umwe uteze igitambaro mu mutwe, umugabo wambaye akajire, inyuma harimo ibiraro, imbere yaho bigeretse bishakajeho amabati, hakaba harimo kugaragaramo urukwavumo imbere.

Umugabo wambaye bote, ipantaro y'ikoboye n'itaburiya y'umweru, akaba afite icyuma arambika mu nkoko zikanywa amazi, akaba asohoye ari nyinshi cyane ahantu yagiyeye arazitira.

Abantu umwe babiri barimo umumama wambaye ijipo atezeho agatambaro n'ingofero mumutwe , umugabo wambaye ipantaro y'umukara isengeri n'ishati n'ingofero y'urugara, bafite ihene ebyiri imbere yabo zirimo kurya ibyatsi,

Umugabo wambaye ipantaro n'umupira w'umweru, imbere ye hariho ingurube nini cyane, afashe hejuru ugana ku ijosi ryayo, irimo kurya ibintu hasi. Imbere yajo harimo ikiraro kirimo ibyatsi, gifunguye.

Inkoko imwe ebyiri harimo isake imwe n'indi y'inkokokazi zose zikaba zirimo kugenda, hakurya yaho hari inzu yubatse idateyeho irangi ahagana hasi handuye.

Mu nyubako mo mbere harimo ibiraro by'inkoko, hakaba harimo akantu bashyiramo ibiryo n'amazi, inkoko zizengurutseho zingana z'imyeru zirimo kunywamo amazi, hakurya yaho hakaba harimo n'izindi zitagaragara igice cyose.

Inka ihagaze ifite ikiziriko mu ijosi, igaragara igice cyo hagati gusa, ihagaze ahantu hejuru hariho igiti, munsi hari ibishami byagiye bigwa hasi, hari urumuri rurimo kuyitungaho.

Umumama wambaye ibirenge ukenyeye igitenge n'umupira w'amaboko, magufiya igitambaro mu mutwe imbere ye hari ihene ebyiri harimo imwe irimo kunyara hakurya ye hari inyubako yihariye yubakisheje amatafari y'ibyondo, na wese iri munsina hagana hepfo.

Itungo ry'inkoko y'isake ya dendo cyifoye, hakurya yaho hariho igiti gihari kirekire kitagaragara amashami, ibindi binini cyane bifite amabara agiye atandukanye harimo ibyijimye.

Ihene nini cyane ihaka, iryamye hasi, ikaba ifite ikiziriko bayizitse, imbere yaho hari indabo zihari zihateye, insina nini cyane, harimo kurasamo urumuri, hakurya hari inzu iteyeho irangi, inzugi n'amadirishya bifunze.

Ikiraro harimo inka, cyubakishije ibiti bitambitse n'ibyondo mo hasi, inka irasasiye, imbere yaho hari urumuri rurimo ku kumurikamo, ku gikuta harimo ahapfumutse, ukaba ureba hanze ibiti bihateye.

Abantu benshi cyane harimo abagabo, abamama n'abana bahagaze bareba, imbere yaho hariho ingurube zirimo nyinshi cyane zisa, imbere yaho hariho ibyatsi bihari, ibiti binini biri hakurya n'inzu ihari yuzuye.

Inka imwe, ebyiri, eshatu ziri ahantu mu ishyamba bazubakiye bazengurutsaho ibiti, zikaba zirimo imbere, hakurya yaho hari ibiti bifite amashami bihari byinshi.

Inka imwe ebyiri eshatu nini cyane zifite amacebe, zirimo kurisha ubwatsi hasi busa neza, hakurya harimo ahandi hariho ibiti bizitiyeho ku mpande ariko hatarimo izindi nyamaswa.

Inyubako yubakisha amatafari ahiye harimo na sima, imbere hariho inkoko nyinshi cyane zingana zirimo zishashe hasi, hejuru hakaba harimo ibintu zigenda zinyweramo amazi biziritse hejuru bagenda bakuru iyo imigozi bamanura cyangwa bakigiza hasi.

Ikiraro cyubakishije ibiti harimo ihene iziritse bakaba bayihaye ibigorigori byagiye biva ku bigori babica hasi hakaba hasasiye nta byaka nta gisogororo kirimo.

Abantu benshi cyane bahagaze bose harimo abafite inkoni imbere yabo harimo ingurube nyinshi cyane bagiye bafite, hakurya hari inzuhari ihubatse n'ibiti bigiye bihateye ikirere kirimo gusa umweru.

Mu nyubako mo imbere harimo ibiti bagiye bubaka bazireka, hakaba hasharitseho ibigori binini cyane byumye, hasi hakaba hariho ibyatsi bihari, urumuri rurimo guturuka hakurya.

Igihingwa kimwe kingana bateyemo, hakaba hahinze nta bindi byatsi birimo, hari ahantu bamennye amakara y'ifumbire bagenda bafumbira, harimo ibiti biteyemo, urumuri rugaragaramo rurasa ruturutse hejuru mu kirere.

Inzu iri hakurya yubakishije ibiti n'ibyondori n'ibibingo ishakajeho amabati, hakurya hari ahantu bubatse bakoreramo uruhumbikiro rw'imbuto zigiye zitandukanye, harimo urumuri rurimo kurasamo ruturutse hejuru mu kirere, ibiti biteyemo binini.

Ibihingwa by'ibiti biteyemo byinshi cyane bifiteho uturabo tw'umuhondo, hasi bagenda barahasasira harimo ibyatsi byagiye byumiramo harimo urumuri kubona.

Umurima uhinze, hakaba harimo itaka risa umukara, harimo imyumbati iteyemo y'ingeri ariko yagiye iturika ikamera, hakurya yaho hariho ibyatsi byinshi cyane bihari, n'igice kidateyemo igihingwa na kimwe.

Abantu benshi cyane harimo abagabo n'abagore n'abasaza, harimo uwambaye ingofero y'urugara n'indi isongosoye, harimo abafite rozwari barimo kuvomerera ibihingwa byabo bahinze ahantu hubakiye.

Umuntu urimo wambaye ijiri inyuma ya kaki, mo imbere umupira w'amaboko magufiya, usa umuhondo, ipantaro y'umukara, isaha ku kuboko, akaba arimo kurandura ibihingwa birimo abikurura, ikirere kirimo gusamo umweru.

Ibiti bishinze n'ibindi bigiye bitambitseho, harimo ibigori basharitseho byumye, babiziritse byinshi cyane hasi, hariho ibyatsi bihari hagiye hohungukiramo ibishami'ibibabi by'ibyo bigori.

Inyubako yubatse isharitsemo ibigori byinshi cyane byumye, hasi hariho amababi yabyo yagiye agwa mu muhasi harimo ibindi bihateye bikiri bitoya, nta rumuri rurimo ahagana hejuru.

Uruhumbikiro bahumbikiramo ibimera bingana hakurya harimo n'ibindi bitaramera, hariho ibiti bishinjemo byinshi cyane, bigiye hejuru hubatseho ibyenda harindamo ko havamo izuba rikaba ryabyica.

Mu murima harimo ibihingwa bihinzemo by'amoko agiye atandukanye ariko bikaba bikiri mu ruhumbikiro, mu mashashi yabyo y'imikara n'itaka, imbere yaho hari ibyatsi n'ibiti baharambitse, ibiti bihinzemo, inzira zo gucamo utambuka ugana ahagana hirya

Inzu bubatse n'ibiti hejuru batwirikijeho shitingi, bagenda basharikamo ibigori byumye, ko bakaba batarabikuraho, hakurya hari igiti gihari, hejuru ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Umuntu umwe babiri, bose b'abagabo bicaye basutamye, bari mu bihingwa byabo by'ingemwe bagenda bahumbika, barimo kugenda bufiramo utwatsi. Hakurya yaho hari ibyatsi bihari byumye.

Inyubako iri hakurya yubatse, ikaba ifite igisenge cy'amabati, hariho akantu ka antene ya tereviziyo, umuriro w'amashanyarazi w'amatsinga aca hejuru n'itara ririho mo hagati ariko ritaka, imbere yaho wateyeho ibyatsi byinshi cyane.

Uruhumbikiro rw'imbuto zingemwe zirimo nyinshi cyane, hakurya hakaba harimo ibintu by'ibiti bitambitsemo byumye bigenda bigabanya ku gice cya hakuno n'icyo hakurya, hari igice gisa umukara hagana hasi.

Inyubako iri hakurya yubatse ikaba iteyeho karabasasu, imbere yaho hariho ibigori birambitse hasi bikeya, bidaciwe aka kanya, byaciwe bimaze igihe.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, ishati mo mbere y'amaboko maremare, udafite umusatsi, afite agakoni arimo kugenda ashorera inka iri imbere ye, ifite amabara abiri, hakurya ye hariho ibiti bihari bihateye.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, agapira k'umweru, akaba ari mu matungo y'inkoko zirimo zingana, harimo izisa imyeru, n'izindi zifite andi mabara, hakaba harimo ikintu zigenda zinyweramo amazi agiye akura mu mugozi.

Umuhungu wambaye isarubeti n'ingofero na bote, akaba ari mu kiraro kiri bubakishije ibyuma, hakurya hari inyamaswa arimo gukoraho, ku musozi hateyeho ibiti, ikirere kirimo gusa ubururu.

Abagabo babiri harimo umwe wambaye imyenda isa wafashe itungo mbere yaho bakaba bayegetse kugiti bakaba barimo kuyikura amahembe nta rumuri ruri aho hantu bari.

Abantu umwe ,babiri, batatu, harimo uwambaye itaburiya ya kaki yanditsemo amagambo mu mugongo, bakaba bafite itungo riziritse ku cyuma kiri imbere, barimo kurikora mu mutwe bari kurivura.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, isarubeti na bote, ahagaze mu kibuga kirimo ibyatsi, hakaba hakurya hari inka aragiye nyinshi, ku musozi hariho ibiti bihateye, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Abantu, umwe, babiri, batatu, harimo uwambaye bote undi ishati y'umweru, uwa gatatu we yikuye hejuru, hasi baharambitse itungo barariziritse barimo kuribaga, umwe afite icyuma arimo kujomba mu ijosi.

Abantu babiri harimo uwambaye isarubeti na bote n'ingofero y'umukara, ba imbere yaho hari inka nyinshi cyane, barimo kuragira zirimo kurisha, izindi zihagaze, ha ni mu kibuga hari ibyatsi bingana, hakurya hateye ishyamba.

Mu ishyamba rinini riri hakurya ku musozi mo hagati harimo umugezi urimo gucamo urimo amazi menshi, hakurya hari inyamaswa irimo igiye kujya mu mazi yari iri hejuru ku musozi.

Mu ishyamba rinini cyane ripfukiranye hatarimo urumuri, imbere yaho hari udusimba dutatu harimo inini uko zigenda zisumbana n'ikiri ntoya, harimo kurasaho urumuri rusa umuhondo.

Mu murima ahantu harimo ibihingwa by'ibyatsi bigufiya bigenda birandaranda ariko bifiteho amashami asa icyatsi, hasi harimo itaka risa ibara ry'umukara, imbere harimo igikeri kirimo kugendamo.

Mu ishyamba ariko harimo ibyatsi bigufiya, nta biti birimo binini, harimo urumuri rurimo kurasa, harimo agasimba gasa umukara gafite ku ijosi umweru karimo gukanuramo.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'ibiguruka bita inyoni, ifite amabara agiye atandukanye, harimo umuhondo, umukara n'umutuku, ikaba ihahagaze ku gishami k'igiti kitariho amababi.

Mu ishyamba harimo akanyamaswa kicaye ahantu ku gisima, gafite ikintu karimo kurebamo mu biganza by'iyo nyamaswa. Inyuma yaho hariho ibyatsi bihateye bitoshye n'indabo zizengurutseho.

Ishyamba rinini cyane, harimo igiti kinini, harimo akanyamaswa gatoya gakanuye amaso kabanguye amatwi, ahagana hasi hariho ibibabi bigiye bihari. Nta rumuri rurimo harijimye cyane.

Umugabo wambaye inkweto zifunze ipantaro n'ikote agaragara igice cy'amaguru gusa, imbere ye hari inyamaswa imuhagaze imbere ifashe ku ino, ijyanye no kumuhereza ukuboko, inyuma y'aho hari ibiti byinshi bihateye.

Abantu barimo kugenda ku kiraro cyo hejuru gifashwe n'imigozi bishimye, harimo abambaye ingofero b'abapapa n'abandi bari inyuma yabo, bari mu ishyamba rinini cyane riri hasi yabo kuko bo bari mu kirere hejuru.

Mu ishyamba hariho ibyatsi hasi n'ibiti biteye hakurya ku musozi bigiye bitandukanye, harimo inyamaswa irimo kugenda itambuka ifite amabara agiye atandukanye, akaba ari ndende cyane isumba ibyo biti birimo.

Mu ishyamba rinini cyane, harimo igiti gifite ibishami binini, hariho amashami asa umuhondo, harimo inyamaswa isa umukara ifashe ku giti, irimo kureba.

Mu ishyamba harimo ibiti binini, bisa, hakaba harimo icyakuze cyitambitse, hejuru y'aho hakaba hariho inyoni ihagazeho, ifite umunwa utukura, isa umukara, ifite imirizo igiye inyuma.

Abagabo benshi bambaye imyenda yabugenewe bafite inkoni n'amatoroshi, barimo kumurika hejuru bambayemo n'ingofero, bari kugenda ahantu hatabona bamurika. Imbere yaho hari ibihingwa bihari by'ibiti.

Mu ishyamba harimo ibyatsi byinshi cyane by'amoko agiye atandukanye, ibikura birandaranda hasi bifite amashami, harimo akanyamaswa k'umukara ku ijosi gasa umweru, kakaba gakanuye karimo kureba.

Mu ishyamba hariho ibiti byakuze bigenda birandaranda hasi haguyeho amashami, hakurya hariho umungoti urimo ikinogo, hariho urumuri rusa umuhondo, harimo akanyamaswa karimo kugenda karwegera.

Mu ishyamba rinini cyane harimo ibiti bigiye bitandukanye, harimo ikiraro cyo mu kirere gifashe hejuru bagendamo bafashe ku mpande, hari imigozi igifashe ituma kitagwa hasi, ikirere kirimo gusa umweru.

Mu ishyamba rinini cyane, harimo ibiti n'ibibabi bifite atoshye, harimo igiti cyakuze, hariho agasimba k'umukara k'igice cyo hejuru, ku mutwe harimo umweru, gakanuye amaso kayaturumbuye.

Ikinyamaswa cy'ikinyoni kirimo kuguruka mu kirere, cyarambuye amababa yacyo, mu birenge byacyo bihagaze, yateruyemo ikintu cy'ikinyamaswa kindi, cyafashe kijyanye kigiye kurya ari umuhigo wacyo.

Ishyamba rinini cyane, ariko hasi hariho ibyatsi bigufiya. Harimo agasimba karimo, gafite ikintu cy'ikigozi kiziritse mu ijosi, umurizo n'amatwi wabyo birahagaze, birareba hejuru.

Mu ishyamba rinini cyane hariho igiti gifite amashami agenda atambitse, hakaba harimo inyamaswa y'igisiga isa umukara n'umweru, hakurya mu iryo shyamba harimo urumuri rusa umweru mwinshi cyane.